Urubyiruko bagiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, aho bashishikarijwe kwisuzumisha no kurandura kanseri y'inkondo y'umura.

Umwana uri gukaraba intoki, aho akaraba ibice byose by'intoki ndetse agakora no mu nzara n'amazi meza ndetse n'isabune.

Abanyeshuri bari kuvoma amazi bajyana mu bikorwa bitandukanye by'isuku bikorerwa mu kigo.

Iyi ni insititi y'ubushakashatsi, ku miti itandukanye, aha niho bikorerwa.

Kwita ku buzima bw'umwana mu mikurire ye, aho abana bapimwa ibiro kugira ngo harebwe uburyo umwana arimo akuramo.

Indyo yuzuye hano igizwe n'imboga n'imbuto n'ibikomoka ku matungo, mu mboga turabonamo pavuro, ishu, mu mbuto turabonamo imineke n'inkeri, mu bikomoka ku matungo turabonamo amagi, inyama, foromaje n'ibindi.